Buri wese agomba gutema ibyatsi biri iruhande rw'inzu, kuko ari zo nzu z'imibu ituruma ikadutera malariya ,kandi tukabikora neza kuko ubuzima turinda ni ubwacu.

Umwenya ni icyatsi bakoresha bari kuvura indwara cyangwa igisebe ku muntu wakomeretse cyangwa umuntu warwaye . Kandi kinavura n'inyamaswa, iyo ziri kukirisha zikira indwara zimwe na zimwe.

Iki ni igiti cy'ubuvuzi kivamo umuti w'ibisebe, umuti w'indwara iyo ari yo yose ,iyo urwaye bakaguha kuri iki giti urakira kandi ugakira neza.

Intondore ziri ahantu hamwe, ni utwatsi tujyohaga cane cane! Intondore, ziraryoga! Ariko iyo ugafashe nabi, karaturikaga ugasanga kaguteye urubuto mu maso.

Umwenya ni igihingwa kimeza mu murima cyangwa n'ahandi mu rugo, ku buryo umuntu afite ikibazo cy'igisebe cyangwa icy'uburwayi cyamuvura. Umwenya uravura ibintu ibyo ari byo byose.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ubuhinzi bwateye imbere mu gwanda, kandi hari n'uruganda tuzi rw'umumama yewe ufite uruganda gw'ikawa ;ayitunganyirizaga hano mu gwanda ni ikawa y'umwimerere twese tugende tugure ku ikawa twinywereho twumve uburyohe.